Umugabo wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru n'ikaruvati y'ubururu, yambaye amadarubindi afite mikoro, biragaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame mu nama ahantu runaka.

Icyumba cy'inama, kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abagabo, bambaye amakositimu, bafite amazi imbere yabo, bafite na za mudasobwa zo kwandika ibivugirwa mu nama, imbere yabo kandi hateretse insakazamashusho, izwi nka porojegiteri.

Inama rusange y'abaturage. Abantu benshi cyane bo mu kigero gitandukanye, abagabo abagore, abana, abasore n'urubyiruko, bateraniye hamwe bitabiriye inama, muri bo harimo umusore wambaye agapira k'icyatsi kariho icyapa cyanditseho ngo gerayo amahoro.

Ihema ryera rifite amabara yo mu ibedera ry'igihugu ku mpande ariyo icyatsi, umuhondo n'ubururu, muri iryo hema hicaye abantu bagiye batandukanye bitabiriye inama runaka, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ishati yenda kuba kaki wayitebeje mu ipantaro y'ubururu bwijimye yambaye n'impeta ku ntoki ze, ku kuboko k'ibumoso yambaye amadarubindi inyuma ye hicaye umupolisikazi.

Abagabo babiri, umwe ari ku rwego yambaye ikote ry'ubururu bw'ijimye n'ipantaro y'umutuku wijimye. Hari undi mugabo uri hasi ye uri kureba ibyo ari gukora. Bombi bari gufatanya kugira ngo babashe kugeza umuriro w'amashanyarazi mu nzu cyangwa se bari gukosora ikibazo cyaba cyabayemo muri ayo mashanyarazi.

Inzu nini iri mu mabara y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu ku gisenge. Iyo nzu ikaba ari urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi muri matama mucyamaganayenda mirongo icyenda na kane. Nkuko bigaragara mu magambo yanditseho no yo mu ibara ry'ivu, ari mu rurimi rw'icyongereza agira ati nyagatare genoside memoriyo. hasi yayo magambo hari ikimenyetso cy'urumuri rutazima.

Ku muhanda rusange, werekeza cyangwa se uva Nyagatare, iruhande rw'umuhanda, hari icyapa cyanditseho ijambo Ryabega, cyerekana ko ugiye kugera Ryabega, Inyuma y'icyo cyapa, hari ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu benshi cyane bari mu kibuga kigari gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, bakaba bari mu gikorwa cya siporo rusange kizwi nka jimunasitike sipoti, imbere yabo hari umukobwa ubayoboye muri icyo gikorwa.

Siporo, ikibuga cy'umupira w'amaguru, muri icyo kibuga harimo amakipe abiri y'abakobwa ubona bakiri bato bari gukina, ikipe imwe yambaye amakabutura y'umukara n'imipira y'umutuku, byombi birimo uturongo tw'umuhondo, mu gihe ikipe yo yambaye amakabutura y'imikara, udupira tw'imikara, byombi birimo imirongo y'imyeru.

Siporo ikibuga cy'umupira w'amaguru, mu kibuga hagati hari ikipe iri kugendagendamo yambaye amakabutura y'umukara n'udupira twa oranje turimo n'umukara, inyuma ahagenewe abafana hicaye mo abantu batari benshi cyane baje gukurikirana umukino.